Uburezi ni kimwe mu bikorwa bikwiye gushyirwamo imbaraga muri iki gihe, umubare w'abana ubushingiye ku burezi tubaha haba mu bigo by'amashuri no hanze yaho, amashuri rero agomba kuba yubakitse neza harimo ibyabugenewe nk'amazi ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga abantu bashobora kwifashisha muri ubwo burezi.

Amashuri menshi abanza aba afite n'uburyo bwo kubigisha hakoresheje ikoranabuhanga, ku buryo abana bavamo bazi kuba bagira ibyo bakora bijyanye no kwivumburira ku ibintu runaka by'ikoranabuhanga, harimo gukoresha imodoka z'amashanyarazi cyangwa se no gucanira amatara rimwe.

Ishuri ririmo intebe nziza cane, ariko abanyeshuri ntabwo bari binjira. Ikibaho camwo gishushanyijeho ibikoresho byo kwambara, ndetse n'ibikoresho byo mu rugo. Kandi ni ishuri rinini, rigari, bigaragara ko rifite isukuma hasi.

Amashuri ni bimwe mu bikorwa remezo bikenewe muri iki gihe, kugira ngo abana bahabwe uburere bukwiye ,ndetse ihe n'abarimu akazi ko kugira ngo bigishe abo bana uburere bukwiye, bushobora kubatunga muri iki gihe no mu gihe kizaza.

Ishuri ni hamwe mu hantu hatorezwa abana, mu kugira ngo bagire uburere bwiza bujyanye n'ubumenyi baba barimo kwiga; kuko bituma bagira ubumenyi bubatunga mu gihe cy'uyu munsi cyangwa no mu gihe kizaza. Ndetse n'abarezi bagahabwa akazi kugira ngo babashe kwigisha muri ayo mashuri. Ishuri ryaba ririmo abanyeshuri, baba batarimo ryitwa ishuri.

Abantu biga iby'ikoranabuhanga, ndetse n'imyuga ni abantu baba bafitiye akamaro Igihugu. Baba bambaye imyenda yabugenewe, ndetse bafite n'ibikoresho bihagije byo kugira ngo bakore uwo mwuga. Ni abantu baba bambaye amasarubeti bafite imashini ndetse n'inkero zo gukera ibyuma bimwe na bimwe bazifashisha muri ibyo bikorwa.

Ibyumba byigishirizwamo ikoranabuhanga, ni ibyumba biba birinzwe cane, kubera ko biba birimo umuriro guhagije kugira ngo rya koranabuhanga rigerweho. Ni icitonderwa rero, gukubagana kuko haba harimo insinga ushobora kuzikoraho ugasanga bikugizeho ingaruka.

Ubukanishi ndetse n'ubucuruzi bw'ibyuma byo gukoresha mu mazu ni bimwe mu bintu bigezweho kandi buri wese aba yifuza kuko bituma tubona ibikoresho birambye hafi ndetse tukaba twabikoresha mu gukora imigezi, amashanyarazi, amazu akomeye nka ma etaje n'ibindi bikoresho biramba.

Amashuri menshi yigisha iby'ikoranabuhanga usanga ari ahantu haba hameze neza cyane, hakagira icyitonderwa kuko ushobora kuba wabyangiriza bikaba byateza ikibazo. Ikoranabuhanga rero riri gushyirwamo imbaraga muri iyi minsi kugira ngo igihugu kijyane n'icyerekezo Isi iri kuganamo.

Ishuri abantu bari kwigiramo umwuga g'ubukorikori kugira ngo baje barabaza: intebe, amadirisha, inzugi n'ibindi bikoresho. Ni ahantu bari kwigira ibintu by'umwuga, harimo abakobwa n'abahungu bose ntiwareba, ibintu bimeze neza cane, bafite n'ibikoresho bihagije.

Icumba kimeze neza kirimo intebe, ameza n'utundi dutebe twiza duteye amarangi g'umuhondo, n'amarido nago g'umuhondo ni ahantu hameze neza cane, hafite n'amadirisha g'ibirahuri, ubwo abantu bakeneye nko kuza kuhabaramira byaba ari byiza cane baza rwose ni karibu.

Ubukanishi ni igikorwa kiba giteye amatsiko, kuko usanga harimo no kuvumbura ibindi bikorwa abantu baba barimo gukora, kandi ugasanga bimeze neza cyane.

Ubuhanzi n'ubugeni ni bimwe mu bikorwa byiza cyane byigishwa mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kugira ngo abantu babashe kwihangira imirimo mu gihe baba barangije muri ayo mashuri babe bakwikomereza mu myuga, ibe yabatunga mu gihe runaka batarabona akazi ka Leta.

Amashuri ajyanye n'ubukerarugendo n'amashuri yigisha ibintu byiza cyane bigezweho muri iki gihe. By'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru, kuko ni agace gakorerwamo ubukerarugendo cyane nko mu ishyamba ry'ibirunga, aho basura ingagi cyangwa no gukora ubushakashatsi mu bigo bimwe na bimwe ku nyamaswa zo mu gasozi.

Mu bworozi buteye imbere haba hari abaganga b'inzobere babyigiye, bazwi nk'abaveterineri. Baba bambaye imyenda yabugenewe, inka bakayifa bakayizirika kugira ngo bayitere intanga, cyangwa se bayirinde n'izindi ndwara bayitera inshinge, kugira ngo itabasha gutera amahane.

Amasomo y'ikoranabuhanga ni amasomo yigishwa hakoreshejwe uburyo bwabugenewe, buba burimo ama porojegiteri, amakompiyuta ndetse n'ibindi byuma byose by'ikoranabuhanga. Urubyiruko cyane cyane, rurasabwa kwiga aya masomo kugira ngo rutegure ejo heza hazaza hajanye n'icyerekezo Igihugu kiganamo.

Umwuga wubukanishi bw'amamodoka, ukunzwe kwigwa kenshi n'urubyiruko, kugira ngo bakanike imodoka zaba zangiritse, cyangwa se n'ibindi binyabiziga. Baba bambaye amasarubete yo kugira ngo abafashe kutanduza imyenda baba baje bambaye, ubundi bakayazikorera mu magaraje yabugenewe.

Amashuri menshi aba atatsemo imfashanyigisho zishobora gutuma abana bigira muri ayo mashuri, baba bari maso kugira ngo barebe imfashanyigisho zirimo, babashe kuzigiraho bitabaye ngombwa ko na mwarimu wenda yaba arimo. Kandi bibafasha gukura mu by'ubwenge no mu kwivumburira ubundu bushakashatsi.

Abanyeshuri b'abakobwa bari kudoda imyenda zimeze neza, bafite n'amamashini g'umweru n'ag' umukara, gateretse ku meza kandi bose bigaragara ko bari gukora iki gikorwa. Ni ahantu heza ho kwigira ku buryo wahakura ubumenyi bwagutunga nko mu gihe caba kiri imbere.

Ikoranabuhanga ni umurimo mwiza cane wigwa n'abantu benshi, haba abakobwa ndetse n'abahungu. Abantu benshi bajaga kubyiga kugira ngo bazabashe kwihangira imirimo, badategereje ko iyi leta yabaha akazi, ahubwo bo ubwabo bagahanga imirimo bakaba baha n'abandi imirimo ubwabo.

Abantu bakora mu bigo by'ubushakashatsi baba bafite za kamera ndetse na za jomeri zo kubona ibintu biri kure nk'ingagi cangwa se n'izindi nyamaswa zibaga mu ishamba. Barafotoraga, bakabika ayo mafoto, bakazayifashisha mu bushakashatsi bwabo bujanye n'ibidukikije.

Uburezi ni kimwe mu bikorwa biri gushyirwamo imbaraga muri iki gihe, by'umwihariko hakabaho amashuri y'imyuga n'ubumenyigiro, ni ibintu byiza cyane bishobora gutuma abantu bakomeza kwihangira imirimo ubwabo, bitabaye ngombwa ko bategereza imirimo yindi ya Leta. Amashuri rero y'imyuga nk'aya, azwi ku izina rya arapi ni amashuri meza cyane.